Ibigaragara hano ni gare isa nk'aho irimo abantu benshi, ndetse n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye bitwara abagenzi ahantu hatandukanye, mu migi mu byaro ndetse n'ahandi henshi. Ariko nkaba mbona abagabo babiri, nkabona imodoka umunani, nkabona n'abandi bantu benshi hirya.